Ni ihuriro ry'abantu benshi, bahujwe no kwita ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, Madame Jeannette Kagame yavuze yuko, niba ubuzima bwo mu mutwe butameze neza nta buzima umuntu aba afite.

Sangwa porikirinike ni ibitaro byigenga, biherereye mu karere ka Huye, bitanga serivisi zose z'ubuvuzi bigendeye ku ntego igihugu cyacu cyihaye y'uko umuturage ari ku isonga mu iterambere ry'ubuzima.

Iki ni ikigo cy'ubuvuzi, cyibanda kuri serivise zigiye zitandukanye, zirimo gupima ndetse no gusuzuma ubuzima bwa muntu, bakoresheje ibipimo bigiye bitandukanye, harimo iby'amaraso, iby'ifoto, ndetse n'ibindi n'ibindi bigiye bitandukanye, byo gupima indwara y'umutima.

Ibihingwa harimo ibyatsi bigiye bitandukanye imboga, imbuto, ibinyabijumba ndetse n'ibinyampeke bifasha mu buvuzi bwa gakondo, bukaba ari uburyo bwiza bw'ubuvuzi bushobora gufasha kuvura umuntu mu buryo bw'umwimerere.

Foreva burayitigeli ni umuti mwiza, ukozwe mu byaremwe, udufasha mu isuku yo mu kanwa, ukanafasha kurinda ndetse no gukomeza ishinya n'amenyo, kandi ukarinda n'utumikorobe tuza mu kanwa, ufasha abana n'abantu bakuru bose ndetse banarawukunda, kubera ko unari no kugiciro gitoya ku isoko.

umuti mwiza w'icyaremwe cy'igikarubamba, udufasha kwita ku isuku yo mu kanwa, ukarinda amenyo yacu kwangirika ndetse ukanayarinda microbe zigenda zizamuka mu kanwa, bityo bigatuma ubuzima bwo mu kanwa bugenda neza.